Amashuri ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, bitewe y'uko abana bagomba kwiga ndetse n'abantu bakuru, bityo rero bigatuma agira akamaro ku isi hose akaba ari mu bintu byambere byiza.

Ishuri rikoreshwa cane n'abanyeshuri haba harimo intebe abandu bakunda kwicaraho bari kwiga ni indebe zikunzwe cane mu gihugu kubera ko abantu bose bagomba kuzikoresha barimo kwiga.

Kameramani ni umuntu ukunzwe cyane yiganjemo mu bakire bitewe nuko yifashishwa afotora mu birori, mu bukwe n'ahandi hose. Akaba ari umuntu ukorera amafaranga menshi.

Imashini ni igikoresho gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, kandi kigakoreshwa ibintu byinshi bitandukanye harimo kubikuru.

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abakozi cyangwa se abatetsi b'ibiryo bakora mu maresitora atandukanye, ndetse n'ahandi henshi haba mu rugo cyangwa se mu bigo by'amashuri.

Abantu benji b'abanyeshuri bari gukora igikogwa kijanye no gukora moto, bakunze kubita abakanishi.

Kwiga ni ingirakamaro ku isi hose kubera ko abantu benshi bamenya ibintu byinshi kubera uko bize bakajijuka. Bityo rero umunyeshuri arimo ariga gukoresha imashini akora inkweto n'ibindi bintu bitandukanye twakwita kwiga imyuga.

Kwiga ni ingirakamaro ku isi hose dore yuko bituma umuntu ajijuka akamenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abanyeshuri biganjemo umusore uri gukoresha icyuma cyifashishwa kireba udusimba dutoya mu cyongereza bajya bita mikorosikopi.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri higanjemo abambaye udupfukamunwa, bigaragara yuko turi mu gihe cya kovidi nayinitini, mu kinyarwanda tujaga turita ngo ni icyorezo ca koronavirusi.

Abanyeshuri barikwiga ibindu bijanye n'imyuga zo kuja, abarakora mu bindu bitandukanye, harimo gukora ingweto n'ibindi, n'ibindi byiganje mu myambaro.

Intebe zifashishwa abantu bazigeraho, ku isi hose zifitete akamaro, haba mu mahoteli, haba mu mashuri, habamo n'ahandi henshi higanjemo amashuri.

Ikoranabuhanga, rirarimbanyije mu byinshi bifiti akamaro, haba ku materefone, ndetse no kuri mudasobwa, bitewe n'uko yifashishwa mu bintu byose bigize isi.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abanyeshuri biga kudoda. Kudoda ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi, uretse ko imyenda twambara ibigomba no gucika, rero bityo bigatuma bahabwa akazi, ndetse bakabona amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abari kwiga ubuganga, ubuganga ni ingirakamaro mu bihugu byinshi bitandukanye kuko byifashishwa bavura abantu benshi bagiye batandukanye.

Urujya nuruza rw'abantu biganjemo abatekinisiye b'ibyuma by'amashanyarazi, hakaba barimo ibikoresho twakwita imashini, ndetse n'ibindi bikamera bitandukanye, n' ibikoresho byifashishwa mu gukora imirimo itanga amafaranga.

Hano hari abandu benji batandukanye n'abana bisa nkaho ari ikigo c'amashuri, harimo n'abayobozi bagiye mu gikorwa co kujya.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri higanjemo abakobwa. Ishuri ni ingirakamaro ku buzima bwa buri wese kuko butuma tubona akazi kubera kujijuka cyangwa se tukiga kukarangiza.

Ishuri ryiganjemo imashini nyinshi, harimo n'abarimu babiri n'intebe, naho imashini ziterekwa, n'ahantu bakoresha bareberaho amasomo menshi, mu buryo bunini twakwita projegiteri, ni ishuri ry'abantu biga ibijyanye n'ikoranabuhanga.